Inteko y'abantu bagera ku icumi, umwe wicaye imbere ufite mikoro wambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'ubururu na karuvate, abamuri inyuma, umwe yambaye ikoti ry'umukara ari kureba kuri telefone, n'abandi bambaye amarinete, inyuma hari igishura cy'umweru, imbere ku meza yabo hariho amatelefone ndetse n'udutabo dutandukanye.

Umugabo w'umwirabura ufite mudasobwa mu ntoki wambaye agapira k'umweru, ingofero y'ubururu n'amarinete y'umukara, iruhande rwe hari inyuguti zanditse mu ibara ry'umweru no mu ibara ry'umuhondo, inyuguti ntoya ndetse n'inyuguti ziri mu magambo manini.

Inyubako ngari ifite amagorofa atatu iri ku muhanda wa kaburimbo, ikaba isize amarangi ari irimo iry'ubururu ndetse n'iry'umweru hejuru hakaba handitseho ibitaro by'umwami faisali hakaba hari abantu urujya n'uruza ari umugore ufite umutaka ndetse n'abandi bari kugenda mu muhanda, imbere hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu n'ikimenyetso kiririmo ibara ry'umweru.

Imihanda ibiri ya kaburimbo itandukanye igabanyijwemo kabiri n'indabyo ziteye hagati mu muhanda, harimo moto n'abagenzi ndetse n'ibyapa bitandukanye n'amatara yo ku muhanda n'ibiti bikikije imihanda, ndetse n'amapiloni y'umuriro w'amashanyarazi.